Abantu bari mucyumba cy'inama, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'umuhondo, ateretseho uducupa twaamazi, ibirahuri ndetse n'ibitabo, inyuma yaho hahagaze abantu bafite amakamera afite ibara ry'umukara, y'ubwoko butandukanye.

Abantu bari mu nzu y'umweru bamwe muri bo ku murongo w'imbere baricaye abandi barahagaze imbere yaho hateretse ameza afite ibitambaro by'umweru ateretseho uducupa ndetse na mudasobwa na telefone, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho, hariho n'amagambo mu ibara ry'ubururu n'umutuku, bamwe muri bo bafite udupapuro mu ntoki.

Ipoto ikozwe mu biti iriho insinga zijyana amashanyarazi mu baturage, iruhande rwaho hari umurimo munini urimo ibihingwa bitandukanye, nk'insina, ibiti ,ndetse n'ibigori.

Abagabo babiri bari ku Iseta y'ubwubatsi bambaye amasengeri y'akazi hari n'ibyatsi ndetse n'ivu ndetse n'imigozi ibafashe, bafashe umurasire w'izuba mu ntoki inyuma yaho hari ibyuma.

Umugore urimo guseka, wicaye imbere y'icyarahani gifite ibara ry'ubururu. Inyuma ye hari igipapuro gishushanyijeho abagore bambaye imyenda idoze mu buryo butandukanye. Kuruhande hari ibiti bimanitseho ubwoko bwibitenge biri mu mabara atandukanye.

Abagabo babiri umwe w'umwirabura n'undi w'umuzungu, bari gukora amashanyarazi, umwe muri bo afite pensi arimo gukoza mu mashanyarazi, undi atunze ho agatoki.

Umugore uri kugenda mu muhanda w'igitaka uhetse umwana mu gashura k'umweru wambaye ikanzu y'umutuku n'umukara ufite igikapu mu kaboko k'ibumoso, akaboko k'iburyo afashe umwana, wambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umutuku bari kwerekeza ku nzu isize amarangi y'ubururu.

Abantu bari kugenda barimo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari inzu isize amarange y'ubururu ishushanyijeho umugabo n'umugore n'abana, yanditseho gira ubuzima ndetse ku ruhande ku bikuta hagiye hariho ibyapa hari igifite ibara ry'umweru n'igifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu bucaca bateraniye hamwe, imbere yabo hicaye abandi bicaye ku ntebe barimo umusirikare n'umupolisi n'umudasso, umugabo umwe muri bo arahagaze ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu bari mukibuga kirimo ibyatsi, bamwe muri bo bambaye imkenyero y'ubururu n'umweru, abagabo babiri bafashe ku gipapuro bafatanya no mu kaboko, inyuma yabo hari amashitingi afite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongogo tw'umweru dutambitse ndetse n'uhagaze, uciyemo ibice bitatu agace ka gatatu kari kugenderamo umunyonzi uhetse umuntu, inyuma ye hari amazu impande zombi.

Imbaga y'abantu bateraniye ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari inzu ifite amadirisha y'icyatsi ndetse n'umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye nk'ibitoki ndetse n'ibigori.

Abantu bari mu nama bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze, bitwikiriye umutaka mbere yabo hahagaze abagabo batatu, babiri abaturage undi ni umupolisi wambaye umwenda w'akazi wanditseho polisi inyuma.

Abakinnyi bakinira amakipe atandukanye, bamwe bambaye imyenda y'umuhondo wose, amasogisi y'umuhondo, abandi bambaye ubururu n'amasogisi y'umweru, uwambaye umuhondo iruhande rwe hateretse umupira, inyuma yabo hari abantu bicaye.

Abasore barimo gukina umupira bambaye imyenda y'ubururu, umwe muri bo afite umupira arimo kwirukanka, inyuma yabo hari igipangu cyubakishijwe ibyuma ndetse n'amatafari, inyuma yacyo hari ibiti.